Abantu benshi bicaye mu mbuga, bamwe bicaye mu gisharagati abandi ntago bakicayemo, imbere y'abicaye mu gisharagati hari umugabo ufite indangururamajwi, hirya y'iyo mbuga hakaba hateyemo ibiti ndetse n'indabo.

Abari n'abategarugori ndetse n'abagabo bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame bari guhabwa bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse ameza arambuweho igitambaro cy'icyatsi no kuri ayo meza yatetsweho ibyo kunywa ari byo amazi.

Abantu bari mu cyuma cy'inama, bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari ameza atwikirijwe igitambaro cy'umweru ndetse n'umuhondo, kuri ayo meza hakaba hariho ibikapu byagenewe gutwarwamo mudasobwa, indabo, amazi ari mu ducupa twa nili, ndetse n'ingofero ya polise y'u Rwanda.

Icyumba cy'inama ikaba yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore, intebe bicayeho zambitswe ibitambaro bisa umweru ndetse n'ameza ari imbere yabo yambaye ibitambaro bisa umukara. Ku meza hakaba hateretseho za mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa. Mu bitabiriye inama harimo abagabo bambaye amakositimu n'abatayambaye hakaba kandi hari n'abandi bambaye amadarubindi n'abatayambaye. Abayoboye inama bakaba bicaye imbere ahagana hejuru.

Icyumba kirimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, abari muri icyo cyuba bakaba bicaye kuntebe z'imisego zisa umukara. Umugore wicaye muri icyo cyumba akaba ateze igitambaro gisa ubururu mu mutwe we kandi yambaye umupira urimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, umugabo umwe mubicaye muri icyo cyumba akaba yambaye ishati isa ubururu bwijimye ndetse afite n'umusatsi mwinshi w'umwimerere.

Abantu bari mu cyumba cy'inama umwe muri abo bantu arahagaze akaba ari umugore ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo kandi akaba yambaye amadarubindi, hirya ye hari umugabo uhahagaze akaba afite umusatsi muke ku mutwe we yambaye isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso ndetse akaba yambaye n'ishati y'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abagore babiri n'umugabo umwe. Bakaba bicaye ku ntebe zegamirwaho zisa umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo mu ducupa tw'Inyange, mudasobwa ifunze ndetse n'udukapu two gutwarwa mu ntoki, iki cyumba kigizwe n'inkuta zisa umweru kandi hakaba hariho umutako.

Abantu b'ingeri zose bakaba bicaye mu gisharagati harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba ari abirabura ndetse n'umuzungu, uwo muzungu akaba yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, arimo aramwenyura nubwo amenyo ye atagaragara akaba afite umusatsi mukeya ku mutwe wesa umweru.

Umugabo wambaye ikositimu ishati y'umweru karavati ndetse n'amadarubindi, akaba afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, kandi akaba yambaye impeta yo gushyingiranwa, nta musatsi afite ku mutwe inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo umuhango w'ishoramari i Nyagatare.

Icyumba cy'inama gisa nkaho kiganjemo urubyiruko, harimo abasore ndetse n'inkumi. Bicaye ku ntebe zisa umutuku ndetse ibyuma bigize izo ntebe bikaba bisize ibara ry'izahabu. Urwo rubyiruko ruri muri iyo nama rukaba rwambaye impuzankano isa umweru, hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ameza abateretse imbere arengejweho igitambaro gisa umukara ndetse hakaba hateretseho amazi yo kunywa y'inyange. Hagati yabo hakaba hari umuntu urimo uraberekera.

Abagabo bicaye ku ntebe y'imitego y'umuringa weruye ndetse n'utwuma imbere yabo hatereke ameza y'imbaho hari uri kubaha imbwirwaruhame uhagaze iruhande rwabo.

Abagabo n'abagore bateze amatwi umutegarugori uri kubaha imbwirwaruhame, bicaye ku ntebe zifite ibyicaro by'imbaho n'amaguru y'izo ntebe n'ay'ibyuma, imbere yabo hateretswe ameza arambuyeho igitambaro cy'ibara ry'iroza ryijimye.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe kandi bafite impapuro mu ntoki zabo ndetse n'amakaramu bisa nkaho hari igikorwa kijya mbere bakurikiranye. Umwe muri abo bantu bicaye aho ngaho harimo umugore wambaye ikanzu y'iviringa ufite telefoni mu ntoki arimo arayirebamo ndetse n'umusatsi utari mwinshi ku mutwe we.

Abagore babiri n'umugabo umwe bombi bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari igikuta kiriho ibara ry'icyatsi, uruziga rwe rwanditsemo Kigali ikeye, uruziga rw'ubururu rwanditsemo Kigali yacu, urukuta rw'ibara ry'ubururu. Umugabo yambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu bwerurutse, isaha ku kuboko n'impeta yashyingiranywe umusatsi muke, umugore yambaye indebakure n'ishati y'umutuku, umugore ari kureba muri mudasobwa n'umupira w'umukara.

Inama y'ikigo gishizwe kugenzura imikorere y'inzego z'ibanze zitanga serivise zibanze mu Rwanda, gishinzwe gushyiraho amategeko agenga amazi, isuku n'isukura, ubwikorozi, ingufu ndetse n'ibindi. Iyi nama bake muri bo bayigaragaramo ni abagabo. Umwe muri bo afite mudasobwa.

Icyumba cy'inama. Hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abagore. Harimo abambaye amakositimu n'abambaye amadarubindi. Muri iki cyumba cy'inama harimo ameza atwikirije igitambaro gifite ibara ry' izahabu. Ku meza hagiye hateretseho za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi y'Inyange. Intebe ziri muri icyi cyumba cy'inama zisa umutuku.

Abagabo bicaye ku ntebe zitwikirijeho igitambaro cy'umweru, benshi muri bo bakaba bambaye impuzankano isa ubururu. Umwe muri abo ngabo bambaye impuzankano yambaye amadarubindi, kandi akaba afite telefoni ngendanwa mu ntoki, ndetse n'impeta y'isezerano. Undi utambaye impuzankano na we akaba yambaye amadarubindi kandi akaba nta musatsi na mba afite ku mutwe we.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, akaba ari abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zisa umutuku, kandi ibyuma by'intebe bisize ibara ry'izahabu. Hafi aho hakaba hari ameza y'ikizeru ndetse na za mudasobwa. Umwe mu bagabo bicaye arimo arareba muri telefoni ye ngendanwa. Umwe mu bagore kandi bicaye yambaye amadarubindi ndetse akaba afite n'ibisuko birebire bigwa mu mugongo we.

Icyumba kirimo kiraberamo inama, hakaba harimo bamwe bahagaze bafite kamera dijitari barimo barafotora igikorwa kiri kujya mbere ndetse n'abicaye bafite indangururamajwi imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi tw'Inyange, abo bicaye bicaye ku ntebe zisa umukara zifite utuziga dutoya hasi zibemerera kugenda aho bashaka hose bicaye, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye nka Kigali yacu, Kigali icyeye.

Abantu bari mu cyumba cy'inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Muri abo bagabo n'abagore harimo abazungu ndetse n'abirabura. Bamwe mu bicaye bafite imeza imbere ziriho uducupa tw'amazi y'inyange. Umwe mu bazungu yambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru, amadarubindi kandi akaba afite umusatsi ku mutwe we mukeya.

Abantu bicaye mucyumba k'inama bakaba bagizwe n'ibistina byombi aribyo abagabo n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bamwe bafite ameza barikwandikiraho ibiri kuvugirwa mu nama kandi hakaba hateretse agakupa k'amazi imbere yabo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ingeri zose. Yaba abirabura ndetse n'abazungu. Bagiye bicaye bakikije ameza kandi bamwe muri bo bambaye amadarubindi. Abagabo benshi muri bo bambaye amakositimu ndetse na karavate z'amabara agiye atandukanye. Ku meza bakikije hagiye hateretseho amazi ari mu gacupa k'Inyange.

Icyumba cy'inama, abitabiriye inama bicaye ku ntebe, zitwikirije ibitambaro by'umweru ndetse n'ameza atwikirije ibitambaro by'umweru. Ku meza harambitseho terefone z'abitabiriye inama ndetse n'amazi yo kunywa. Hagati hahagaze umugabo ufite indangururamajwi uri kubabwira.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakabamo abirabura ndetse n'umuzungu. Bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa, amacupa ndetse n'ibirahure benshi muri abo bagore bambaye amadarubindi bamwe bafite imisatsi itendera igwa kuntugu zabo abandi bafite umusatsi utari mwinshi ku mitwe yabo.

Abagabo n'abagore harimo abo uruhu rwera, nabo uruhu rwera rwirabura bicaye bateze amatwi imbwirwaruhame, bari bicaye mutebe zambaye imyenda y'umukara ndetse imbere yabo hatetse ameza yambaye igitambaro cy'ibara ry'icyatsi.

Icyumba k' intama, ikaba yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye; bamwe ni abagabo abandi ni abagore, hakaba harimo kandi n'intebe, zimwe zifite ibara risa umukara zegamwirwa, imbere hakaba hari ameza asa umweru, ariho indangururamajwi, kuri ayo meza kandi hakaba hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange.

Icyumba cy'inama. Ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu. Bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, kandi imbere yabo hari ameza maremare cyane. Ku meza hateretse amazi yo mu ducupa tw'inyange, ndetse na za mudasobwa. Iyo nama ni iyerekeye ikigo cy'imisoro n'amahoro, byo mu Rwanda.

Abagabo n'abagore bateze amatwi imbwirwaruhame bari guhabwa, bicaye ku ntebe zikozwe mu misego y'umukara, ndetse imbere yabo hari ameza ateretsweho ibyo kunywa by'amazi, telefoni ngendanwa, ndetse naho bandika ibyo bumvise.

Abakobwa n'abasore bambaye udupira tw'uibururu, bicaye ku ntebe zambaye imyenda y'umuhondo, imbere yabo hari ameza yambaye igitambaro cy'ibara ry'umuhondo, ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, bafite ibyo bari kubwirwa ndetse banandika.

Umugabo ufite indangururamajwi mu biganza bye arimo arayikoresha avuga, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu. Inyuma ye hakaba hahagaze abantu batandukanye yaba abagabo cyangwa abagore na bo bakababa bambaye imipira y'ubururu.

Urupapuro rwererana ariko hejuru ruriho ibara risa ubururu bwijimye, rukaba rwanditseho ibijyanye n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro, bimwe mu magambo yanditse kuri uru rupapuro hariho imisoro yerekeranye n'abakora akazi.

Icyumba kirimo abantu benshi batari benshi ugereranyije n'umubare ugomba kujyamo. Hakaba harimo intebe zisa umukara. Muri iki cyumba harimo abasore ndetse n'abakobwa. Hejuru y'ameza hakaba hari igikapu gitwarwamo amakayi cyo mu mugongo gisa umutuku ndetse n'agacupa k'amazi. Umwe muri abo basore yambaye amadarubindi.

Umuhanda wa kaburimbo ariko usana n'aho nta binyabiziga biri kugendamo, ikinyabiziga gihari ni kimwe giparitse mu nzira y'abagenzi bitewe n'uko imvura yaririmo iragwa, bagenzi barimo baragendera mu nzira nyabagendwa gusa hakaba hari undi mugore wambaye umupira usa umuhondo uri kugenda mu nzira yagenewe ibinyabiziga.

Urupapuro rusa ubururu ruriho ibijyanye na ti vi eyi, amwe mu magambo arwanditseho aragira ati tengamara na ti vi eyi hakaba kandi hariho terefoni ngendanwa yanditswemo akanyenyeri magana inani urwego, iyo umaze kubyandikamo kuri uru rupapuro hagaragaraho intambwe ugenda ukurikiza mpaka ugeze ku ya nyuma ukaba ugeze ku cyo wifuza.

Urubyiruko rwicaye ku ntebe zisa umutuku zifite amaguru asa umweru. Imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa na telefoni ngendanwa zabo. Bamwe bari kurebera mudasobwa, abandi bari kurebera muri telefoni. Ku meza kandi hakaba hateretseho agacupa k'amazi y'Inyange ndetse n'ibikombe bisa umweru. Hirya yabo kandi hakaba hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'inzu iri hirya.

Icyapa cyamamaza igikorwa gitegenywa kuba hagati y'itariki cumi n'eshanu na cumi n'icyenda Gicurasi, bibiri na makumyabiri na gatatu. Kikaba kizabera mu mujyi wa Kigali, mu Ntare Conference Arena. Amwe mu magambo kandi yanditse kuri icyo cyapa, aragira ati:"Guhanga imirimo izashyigikira uburenganzira bwa muntu." Hakaba hariho kandi umugore wambaye ishati y'igitenge, akaba yambaye amadarubindi.

Umunara w'itumanaho muremure cyane rwose, ukaba usize amarangi abiri ari yo umutuku ndetse n'umweru, kubera ukuntu umuntu ari kuwurebera hasi, arimo arareba ku bicu neza cyane rwose, iruhande rw'uwo munara hari igiti kirekire, munsi yawo gato hakaba hari senyenge zubatse mu buryo bw'uruziga.

Urubuga ruriho ibijyanye n'ikigo cy'iterambere cy'u Rwanda. Hakaba hariho amakuru y'ubucuruzi n'isoko, kandi amwe mu magambo yanditse kuri uru rubuga, havugwa ko ikawa yazanwe mu Rwanda n'Abadage ahayinga mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda. Hakaba havugwa ko kandi kuva icyo gihe ikawa aricyo gihingwa u Rwanda rwohereza hanze kurusha ibindi bihingwa byose.

Icyapa cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda. Kiriho amagambo agira ati: "Ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako biteye bite?" Zero n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro k'isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe guturwamo. Zero n'ibice bitatu by'agaciro k'isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe ubucuruzi. Hasi kandi hari numero wabasangaho.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n' umusoro ,hakaba hariho amagambo atandukanye agira ati "emeza uyumunsi wishyure mbere y' igihe ntarengwa" hakaba kandi hari n' andi magambo avuga ati " kumenyesha igice cya gatatu umusoro kunyungu mbere y' itariki mirongo itatu n' imwe z' ukwa cumi nabiri bibiri na makumwabiri na rimwe ntutegereze mpaka kumunsi wanyuma .Hariho kandi na nimero wabahamagaraho kandi hirya hakaba hananditse ngo hano kugirango tugufashe.

Urubuga rw'Irembo. Hakaba hariho umuntu wafunguye mudasobwa, ikaba irimo ibijyanye n'Irembo. Amwe mu magambo yanditse kuri uru rubuga ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere Arajibi. Hakaba kandi handitseho uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa Leta. Hasi y'ayo magambo hariho uburyo wakwandika ukagera kuri ibyo bivuzwe hejuru. Aribyo kujya ku rubuga wa wa wa, akadomo irembo, akadomo govu, akadomo rwa cyangwa se akadomo wa wa wa, akadomo arajibi, akadomo rwa.

Itangazo rituruka kuri minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo rimenyesha abakorera Leta bose y'uko bahawe ikiruhuko rusange ku matariki ya makumyabiri n'esheshatu, Ukuboza ndetse n'ebyiri Mutarama by'iminsi mikuru.

Igipapuro cyererana cyerekana ibijyanye nikigo kiterambere cy'U Rwanda. Kikaba kiriho uburyo ushobora gushora imari mu Rwanda, impamvu ugomba gushora imari mu Rwanda, n'uburyo washora imari mu Rwanda, kandi kikaba cyerekana ibigo bitandukanye washoramo imari nk'uburezi, ubuhinzi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rwerekana ibyurukerarugendo rwo mu Rwanda, hakaba hariho inyamwatswa y'ingangi iri ahabugenewe iba, ariho mubiti birebire. Amwe mu magambo yanditse kuri urubuga hariho ko Rwanda ruzwiho nk'igihugu k'imisozi igihumbi kandi rukaba rufite abaturage bakwakirana urugwiro ndetse bakaguhereza serivise nziza.

Urupapuro rwerurutse rwandikishijweho inyuguti z'amabara atandukanye, ariyo umukara ndetse n'ubururu bwerurutse, ahagana hejuru kuri uru rupapuro hariyo ibara ry'ubururu rikaba ririmo inyuguti zandikishijwe ibara ry'umweru zigira ziti: "intambwe ku yindi mu gusaba viza n'ibyangombwa by'akazi", ahagana hasi kuri uru rupapuro hakaba hariyo ikiguzi cy'amafaranga yishyurwa angana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu bya mafaranga y'u Rwanda.

Urubuga ruriho ibijyanye n'ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere cyo mu Rwanda. Kuri uru rubuga hakaba hariho utuzu dutandukanye ushobora kuzuzamo. Tumwe muri utwo tuzu utwuzuzamo iyo urimo kwinjira bwa mbere muri uru rubuga ndetse utundi ukatwuzuzamo iyo usanzwe urukoresha. Bimwe muri utwo tuzu, hakaba wuzuzamo emeli yawe ndetse n'umubare wawe w'ibanga iyo usanzwe urukoresha, iyo udasanzwe urukoresha, ukaba wiyandikisha bundi bushyashya.

Umunara w'itumanaho usizwe amarangi y'umutuku ndetse n'umweru. Hirya y'uwo munara hakaba hateye ibiti kandi hari n'ubusitani. Hakaba haparitse kandi n'ibinyabiziga harimo imodoka rusange ndetse n'imodoka y'umuntu bwite. Hari kandi n'ibyapa byamamaze ikigo cy'itumanaho cya Tigo. Hakaba hari n'abantu bakikije uwo munara.

Abadamu babiri bicaye ku ntabwo zisa umukara, bombi bakaba bafite za mudasobwa ariko z'ubwoko bubiri butandukanye, umwe muri abo badamu akaba yambaye amadarubindi, inyuma ye hakaba hari icyuma gishinzwe gutanga umuyaga, imbere y'uwo mudamu kandi hakaba hahagaze umusore bisa nk'aho akeneye serivisi.

Umuntu ufite mudasobwa yo mu bwoko bwa hecipi. Akaba yagiye ku rubuga rw'irembo arimo aruzuza ibintu bigiye bitandukanye. Yambaye ishati itukura irimo utuntu dutoya tw'umweru kandi akaba afite umusatsi mukeya ku mutwe we. Imbere ye hari igikapu ndetse na telefoni ngendanwa biteretse ku meza.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Urupapuro rusa ubururu ruriho ibijyanye na serivisi z'irembo, hakaba hariho imbonerahamwe, munsi y'iyo mbonerahamwe hakaba hariho amagambo rimwe gukosora uruhushya rwo gutwara, kabiri gukosora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga by'agateganyo, munsi y'ayo magambo kandi hakaba hariho numero za terefoni wabasangaho ndetse n'urubuga wasangaho ibiberekeyeho arirwo wa wa wa akadomo irembo akadomo govu akadomo rwa.

Urubyiruko ruhugiye mu bikoresho by'ikoranabuhanga bisa nkaho bari kureba ibintu by'ingenzi. Hakaba hari abasore babiri n'umukobwa umwe. Umukobwa afite mudasobwa yo mu bwoko bwa Toshiba yamanuye agapfukamunwa kandi afite umusatsi mwinshi ku mutwe we. Umwe muri abo basore afite ikayi undi yambaye ingofero n'umupira w'umweru. Abasore bombi bari kurebera muri telefoni imwe kandi bombi bambaye udupfukamunwa.

Abagabo bicaye ahantu, bamwe bafite mudasobwa abandi nazo bafite umwe murabo bafite mudasobwa yambaye ingofero itukura, umupira wumweru ndetse ni panaro yubururu, umwe murabo batazifite yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipanaro y'ubururu. Hirya yabo hakaba hari ubusitani buteyemo indabo.

Icyapa kerekana uburyo uramutse ukeneye serivisi zo gutwara abantu n'ibintu wahampagara ikigo kibishinzwe kitwa RURA, ukoresheje telephone ariyo kabiri, kabiri, kabiri cyangwa se ukabandikira.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro Rura, rukaba rugamije gufungura konti kugira ngo uyifungure ugomba gutanga nimero zawe za telefoni ndetse n'amazina yawe.

Urupapuro rwererana ruriho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, ndetse na mudasobwa byerekana serivisi z'irembo. Hakaba hariho ibisabwa kugira ngo ushaka serivisi azibone aribyo : indangamuntu, kuba arengeje imyaka cumi n' itandatu, kuba afite nimero za telefone kandi no kuba afite urubuga yazakiriraho ibisubizo.

Urupapuro rusa ubururu ruriho inyandiko z'ibijyanye no kwishyura umusoro, w'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda. Hakaba handitseho amagambo atandukanye agira ati: <<italiki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ni ku italiki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane, hakaba kandi hariho na nimero wabasangaho.

Urubuga rw'Ikigo cy'Igihugu cyo mu Rwanda Gishinzwe Ubuzima RBC. Hakaba hariho aho ushobora kwandika nomero zawe za telefone, ndetse ugashyiramo n'umubare wawe w'ibanga ukabona ibisubizo. Kuri uru rubuga kandi, hakaba hariho nimero za telefone wabahamagaraho ari zo: zeru karindwi, makumyabiri na gatanu, mirongo irindwi n'icyenda, makumyabiri n'umunani, mirongo ine na kabiri. Hakaba kandi hariho n'urubuga ushobora kubandikiraho rwa E-mail: info@rbc.gov.rw.

Ikirere mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, igiti kiri iruhande rw'inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bitandukanye, uburyo bwo kwishyura ukoresheje umurongo w'itumanaho wa tigo, uburyo bwo kwishyura ukoresheje umurongo wa emutiyeni, urugi rw'icyatsi n'ibara ry'umweru, urukuta rw'umweru n'umukara mu muhanda w'umukara.

Ndabona itangazo ry'ikigo cya leta gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro byanditswe mu nyuguti z'icyapa ariko mu mabara atatu y'umuhondo umweru n'ubururu harabura iminsi itatu ndabona gatatu iri mu ruziga rw'ubururu n'umweru, itariki ntaren rimwe yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa na makumyabiri kane ni mirongo itatu n imwe cumi nabiri na makumyabiri na kane, ndabona umurongo wo guhamagara magana atatu kane ndabona inzu ikikijwe n'ubusitani bw'ibiti bigufi.

Igipapuro cyerekana imbaga y'abantu iri mu cyumba cy'amakuru. Muri iyo mbaga y'abantu harimo abagabo babiri bicaye imbere bambaye ikositimu. Kuri urwo rupapuro hakaba hariho amagambo agira ati <<Rwanda yatangaje iherezo ry'icyorezo cya virusi ya Marburg.>> ku italiki makumyabiri z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane, bikaba byarakorewe i Kigali.

Urupapuro rusa ubururu ruriho serivisi irembo ritanga. Hakaba hariho imbonerahamwe irimo ikigo gitanga serivisi ndetse n'icyiciro cyayo. Hasi kandi gatoya hakaba hariho kuvugurura imbibi no gukosora ubuso. Ikaba igaragaza kandi nimero zitandukanye wabasanga ku mbuga nkoranyambaga.

Urubuga rw'Irembo ruriho amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu. Ndetse hakaba hariho na mudasobwa. Amwe mu magambo yanditse kuri uru rubuga, handitse ati:"Amakuru mashya ku rubuga rw'Irembo. Kwandikisha ishyingirwa byavuguruwe." Kandi hakaba hariho nimero za telefoni wabasangaho ndetse n'imbuga nkoranyambaga wabandikiraho.

Icyapa giteretse imbere y'inzu cyerekana ibikorerwamo aribyo gufotora abantu, gucuruza impapuro, gufotoza impapuro, serivisi za mobayiro mani ndetse na serivisi z'irembo iza beka kandi hakaba hariho na nimero wabasangaho. Imbere y'iyo nzu kandi hariho inkweto zitondetse bisa nkaho zicuruzwa.

Ahantu hari ikusanyirizo ry'amashanyarazi. Hakaba hari umunara munini cyane uriho insiga nyinshi zigemura umuriro mu mpande zitandukanye. Hakaba kandi hari n'amabuye y'urwererane ndetse n'ibiti bikikije aho ngaho.

Umunara w'itumanaho, ukaba uriho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, uwo munara ukaba wubatse mu busitani hateyemo indabo kandi hirya hakaba hateyeho n'ibiti, hafi y'uwo munara, hagiye hubatse amazu agiye atandukanye, akaba ari wo ugemurira umuriro w'amashanyarazi.

Urukuta rw'amatafari ahiye ruriho ibyuma hejuru ishyamba ubusitani umuhanda w'umukara mumuhanda wabanyamaguru, indabo ziri ku ruhande inzu ipoto ry'amashanyarazi amatara yo kumuhanda, insinga z'amashanyarazi indabo z'icyatsi.

Akazu gasizwe ibara ry'umuhondo gakorerwamo serivisi za mobayiro mani ariko hakaba ari nta mukozi ukicayemo. Hafi yako hakaba hari amapoto afite insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye. Hafi y'ayo mapoto hakaba hari ingo zigiye zifite amategura atandukanye kandi hateye n'ibiti. Hafi yako kazu kandi hakaba hari umugore urimo urahagenda wambaye ijipo isa umweru mu muhanda w'igitaka.

Umunara munini cyane uteretse ahantu hitaruye, ukaba ufite itsinga nyinshi zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye ,bimwe mubigize ahateretse umunara harimo ibyatsi ndetse hakaba hari ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu ebyiri zisakaje amategura asa. Imwe muri izo nzu ikaba ifite ibigega bibiri by'umukara byagenewe kubika amazi kandi ikaba ifite na anteni y'itumanaho. Inyuma y'izo nzu hateye ubusitani ndetse hari n'ipoto rijyana amashanyarazi mu ngo zitandukanye.

Icyapa cyerekana icyerekezo cya sitasiyo nto y'amashanyarazi ya Gikondo. Akaba ari iy'ikigo gishinzwe ingufu cyo mu Rwanda. Kuri icyo cyapa kandi hariho nimero wabasangaho ndetse n'urubuga wabandikiraho. Kikaba gisizwe ibara ry'umweru ndetse hakaba hagiye havanzemo n'umutuku mukeya. Icyo cyapa giteretse mu busitani.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye aribyo imodoka ndetse n'ipikipiki byose bikaba birimo abagenzi. Hakaba kandi hari n'abanyamaguru i ruhande rw'umuhanda mu gice cyabugenewe, amatara yo ku muhanda ndetse n'inzu.

Ipoto ndetse n'itara ryo ku muhanda ipoto rishamikiyeho insinga z'umukara nyinshi zigena umuriro w'amashanyarazi ku baturiye aho muri kano gace.

Umunara w'itumanaho ukaba usize irangi risa umutuku ndetse n'umweru. Uyu munara ukaba ufite insinga zijyana umuriro mu nce zitandukanye. Uzengurutswe n'ibyuma bisize irangi risa umutuku, hejuru yabyo hakaba hari senyenge. Hirya cyane y'uwo munara hagiye hari inyubako zitandukanye kandi hakaba hateye n'ibiti.

Ibikorwa remezo birimo amapoto abiri, ndetse n'ibinyabiziga bibiri by'umweru bitanga serivisi z'ingendo rusange. Amapoto afite insinga z'umukara nyinshi ziyashamikiyeho.

Inzu igeretse iri kumuhanda imbere yayo gato hakaba hari ipoto rijyana umuriro ku mpande zitandukanye kandi mu muhanda hakaba harimo ibinyabiziga aribyo amapikipiki abayatwaye ndetse n'abagenzi bambaye ingofero zabugenewe.

Abantu bari kugenda mu nzira nyabagendwa isakaye, bamwe muri bo ni umukobwa ndetse n'umusore bambaye amashati y'umweru n'ingofero zikozwe mu ruziga z'umweru mu mi twe yabo ndetse bakaba bambaye amapantaro y'umukara. Umusore Kandi akaba yambaye itaburiya y'umweru. Bombi barimo baracunga akantu gafite ibiziga bitoya hasi kakaba karimo ibikoresho. Hirya yabo hateye ubusitani burimo indabyo.

Amazu asakaje amabati y'ubwoko butandukanye, amwe muri yo asakajwe amabati afite ibara ry'ubururu ryerurutse. Hanze yayo hakaba hari ubukarabiro busa umweru, hakaba kandi hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati: "umuryango w'abakoranabushake mu buvuzi". Hafi y'aho, hari ipikipiki iparitse, ndetse n'umuntu uyitwara.

Urukuta rw'amatafari ahiye itara ritari kwaka icyapa cyamamaza kururwo rukuta ibitaro by'amaso i kabgayi amasaha y'akazi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa moya kugera saa kumi n'igice mu minsi y'akazi twakira indembe n'abagize impanuka iteme inzu ifite igisenge cy'ibara ry'umutuku urugo rw'ibyatsi n'ibiti n'ikirere kirimo ibicu by'umweru.

Abantu bambaye imyambaro y'umweru igenewe akazi ko mu gikoni k'ubutetsi barimo baragendera mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari imodoka ndetse n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibindi biti biteye inyuma y'amazu arimo aragaragara, ayo mazu ari kugaragara afite amabati asa umutuku.

Inzu yubakishije amatafari ariye, ahagana munsi y'idirishya hakaba hasize irange risa umuhondo, imbere y'iyo nzu hakaba hicaye abantu ku ntebe z'ibyuma bisa nk'aho bategereje serivise. Imbere y'iyo nzu kandi hababa hateye ubusitani burimo ibiti kandi bukaba bukikijwe n'indabo.

Icyuma kirimo abarwayi ndetse n'abarwaza, Abarwayi bakaba baryamye ku gitanda gifite utuziga dutoya hasi bikatuma igitanda kijyanwa aho gikeneye kujya. Ibyo bitanda bikaba bisa umeru kandi hariho amashuka asa umweru, umwe mubarwariye yambeye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, amatara ari muri ikicyumba asa umweru kandi hakaba hariyo ibitambaro bisa ubururu.

Ibitaro by'umwami faisal. bikaba bigeretse muribyo bitaro hariyo icyapa kerekana ahajyanwa abarwaye byihutirwa, mu mbuga y'ibyo bitaro hakaba hari ubusitani buteyemo indabo kandi hari n'akaburimbo hari ahagenewe kugenda binyabiziga ndetse n'ahagenewe kugenda abanyamaguru.

Intebe zicayeho abantu batandukanye, bamwe muri bo bakaba ari abagabo abandi ari abagore, muri abo bagore hakaba harimo abagororwa, abo bagororwa harimo abambaye ibara ry'iroza ndetse n'abambaye ibara risa n'icunga, bisa nkaho hari serivisi bose bategereje bicaye ku murongo.

Imbuga nini cyane iparitsemo ibinyabiziga by'umuntu kugiti cye, hirya y'iyo mbuga hakaba hateye ubusitani burimo indabo, muriyo mbuga kandi hakaba hicaye n'umudamu ukenyeye igitenge akaba yiteze igitenge ndetse yambaye ishati y'igitenge, iruhande rwe hakaba hari igikapu gitwarwa k'urutugu ndetse na teremusi iteretse iruhande rwe.

Inzu zisa zikaba zifite amabati asa umutuku kandi zubakishije amatafari ahiye, muri izo nzu hakaba hari imwe ifite umurinda nkuba hejuru kandi zikaba zifite ibikoresho byabugenewe bishyushya amazi, hejuru ku mabati, hakaba hari kandi n'ubusitani hafi yizo nzu buteyemo indabo ndetse ni biti, hafi yazo kandi hakaba hari n'imyenda yafuzwe yanitse ahabugenewe.

Ubusitani bw'icyatsi kandi bufite isuku bugaragara neza ahirengeye imbere y'inyubako y'umuturirwa ikirere gifite ibara ry'ubururu bw'ikirere ibicu by'umweru, ibiti by'cyatsi imodoka, icyapa kiririmo ibara ry'ubururu n'umweru, akayira k'abanyamaguru, amatara yo ku muhanda mu muhanda wumukara.

Abagororwa bahagaze mu busitani, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'iviringa, bose bazamuye ukuboko kwabo, muri abo bagororwa hakaba harimo abambaye amadarubindi ndetse hakaba ari n'abandi bambaye amasaha, ku kuboko kwabo, inyuma yabo hakaba hateye ibiti.

Umugore wambaye impuzankano y'abanyamategeko, amwe mu mabara agizwe iyo mpuzankano harimo umukara ndetse n'umutuku, inyuma yuwo mugore hakaba hari urukuta rusa umweru, afite imisatsi itendera igwa kurutugu rwe.

Ingabo y'Igihugu impanitse ikiganza cyayo kiburyo irimo irarahira ikibumoso igifatishije idarapo ry'igihugu, idarapo n'ubwo ritagaragara ryose ariko afashe kw'ibara ry'ubururu, ingabo y'ihugu yambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'amadarubindi.

Ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa batatu umwe kuhande rumwe yambaye isaha y'umukara imibiri yombi ubwanwa hejuru yumunwa abandi babiri ni ibikara basa nkaho bari kuganira bombi bafite urupapuro rwa envelope y'umuhondo bicaye ku ntebe yimbaho inyuma yabo hariho umugore bisa nkaho yambaye ikanzu y'ubururu n'umupira w'umukara basa nkaho bari mu rukiko .

Umugabo wambaye amadarubindi akaba nta musatsi na muke afite ku mutwe we. Akaba yambaye ishati isa ubururu bwerurutse ndetse na karavati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru. Uyu mugabo akaba yambaye igishura cyagenewe abanyamategeko. Iki gishura kikaba gifite amabara atandukanye, amwe muri yo hakaba harimo umukara ndetse n'umweru.

Ndabona urukuta rurerure rw'igororero, ndabona abagororwa bambaye impuzankano y'iroza bambaye ingofero bamwe muri bo n'abandi basunitse ingorofani, abandi bafite ibikoresho by'ubuhinzi mu ntoki, ndabona imisozi ahirengeye ndabona amazu, ibisenge by'amazu, ndabona n'umunara ujyamo abacunga umutekano w'abagororwa.

Urupapuro rusa umweru, rukaba ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara amwe ni munyuguti nkuru andi ni ntoya, ayo mategeko akaba yanditse mu ndimi eshatu akaba arizo ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa, iyo gazeti ya leta niyasohotse kuri makumyabiri zukwa kenda ibiri na cumi n'umunani.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z'umukara hagati yabo harimo undi mugabo bari kuburanira wambaye ikoti n'inshati y'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'ibindi bari kwifashisha bamuburanira.

Irembo ryinjira mu igororero rya Rwamagana. Hejuru yaryo hakaba hariyo icyapa cyanditseho igororero rya Rwamagana ndetse hariho n'ibirangantego bibiri. Kimwe muri ibyo birangantego ni icya Repubulika y'u Rwanda. Kikaba kirimo amagambo agira ati, ubumwe, umurimo, gukunda igihugu. Kandi hakaba hashushanyijeho agaseke, izuba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze mu nyubako bakaba ari abagabo ndetse n'abagore bose bambaye amakanzu asa umukara imbere hasa umweru, benshi muri mo baraseka bisa nkaho hari igikorwa bagezeho cyo kwishimirwa.

Ikirangatego kiriho idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ijambo inkiko gacaca. Hejuru hakaba handitse ubutabera bwunga. Mu imbere hakaba hashushanyijemo abantu bamwe bicaye ndetse n'abandi bahagaze bisa nkaho bari gucirwa imanza. Inkiko gacaca zicira imanza ku byaha byakozwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya uruhande rw'iburyo ni' imfungwa yambaye impuzakano bagororwa isaha ku kuboko nta musatsi ku mutwe w'uwari gusuhuza numu umugabo w';imibiri yombi igikara cyiganje umusatsi w'umwimerere ishati y'umweru ubusitani buteyemo indabo, ibyatsi urukuta rw'umweru.

Abantu babibiri umugabo ndetse n'umugore, umugore akaba yambaye imyenda y'abagororwa ifite ibara ry'iroza kandi akaba yambaye n'amadarubindi, yegetse umusaya we ku rutugu rw'umugabo ufite umusatsi mukeya ku mutwe we, akaba yambaye ikoti ry'umukara.

Abagore babiri bambaye impuzankano z'umukara ndetse' numugabo wambaye impuzankano isa gutyo bicaye bateze amatwi ibyo babwirwa bambaye bicaye ku ntebe z'imisego y'umukara ndetse imbere yabo hateretseho indangururamajwi ziri ku meza.

Umugore wambaye impuzankano y'abanyamategeko inyuma ye hakaba ahari urukuta rw'imweru ,iy'impuzankano ikaba ifite amabara atandukanye harimo umukara ndetse n'umweru, uyu mugore akaba afite umusatsi muremure ugwa kubitugu kandi akaba yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena kumatwi ye.

Umugabo wambaye ishati isa umweru ndetse na karuvati y'umutuku irimo uturongo. Akaba yambaye amadarubindi Kandi nta musatsi namba afite k'umutwe we ,uyu mugabo yambaye igishura cyangwa se ikanzu ifite ibara risa nk'icunga ndetse imbere hakaba hasa umukara hariho n'akandi gatambaro gasa umweru. Hirya k'urutugu hakaba hariyo igitambaro gisa umutuku.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, yambaye ikositimu y'ubururu, karavate y'ubururu bwijimye ndetse n'ishati y'umweru, akambara amadarubindi kandi akaba afite umusatsi mukeya ku mutwe, iruhande rwe hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu akaba ariyo: ubururu, umuhondo, icyatsi, hakaba harimo izuba mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye mu ntebe, akaba yambaye amadarubindi kandi akaba ntamusatsi afite ku mutwe we, inyuma ye hari urukuta rusa ubururu, iburyo bwe hakaba ari akabati, hejuru y'ako kabati hakaba hateretse agaseke.

Ndabona umugabo w'imibiri yombi higanjemo igikara ndabona yambaye impuzankano y'abagabo ikositimu y'ubururu bw'ikirere, ndabona imbere hari indangururamajwi ifite ibara ry'ubururu, ndabona yambaye ikaruvati y'ubururu irimo imirongo y'umweru, ndabona bisa nk'aho ari gusobanura afite umusatsi muke yicaye ku ntebe yumukara inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Ndabona umugabo witwa Ndemezo yambaye impuzankano ya polisi y'igihugu y'u Rwanda, yambaye ingofero y'ikirango cya polisi y'igihugu y'u Rwanda, yambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu butsitse ku ntugu ze hariho ibirango by'inyenyeri eshatu, ku kuboko hariho ibendera ry'u Rwanda, inyuma ye hariho ikirango cyanditseho polisi y'u Rwanda n'umuriro no gutabara.

Abapolisi babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'umuturage usanzwe hirya wambaye ipantaro y'umutuku. Aba bapolisi barigukoresha ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Imodoka ziri mu kizamini zirimo zirakorera mu muhanda w'igitaka.

Ibikoresho bifashisha bazimya inkongi yumuriro kimwe gisa nkaho ari gishyashya gifite ibara ryumutuku ndetse nikindi gisankaho nkigishaje kikaba gifite ibara ryumweru bikaba byometse kugikuta gifite ibara ryumweru hasi hakaba haramakaro afite ibara ryumweru ndetse nagatebo bashyiramo imyanda iruhande gafite ibara risa icyatsi.

Abapolisi babiri bahagaze iruhande rw'umuhanda munzira nyabagendwa, bakaba bambaye imyenda y'akazi ;ariyo amapantaro asa ibara ry'ubururu bwijimye ,ndetse n'amakote afite ibara ry'icyatsi cyerurutse ,kandi bakaba bambaye n'ingofero z'akazi .Munzira nyabagendwa bahagazemo harimo n'abandi bagenzi barimo baragenda hirya yabo hakaba hari inzu isa umutuku .

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Icyapa kerekana ibitaro bya polisi bya Kacyiru, kikaba kiriho ibirangantego bibiri kimwe ni icya polisi y'u Rwanda ikindi ni ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, mu cya polisi y'u Rwanda handitsemo serivisi, uburinzi n'ubunyangamugayo.

Urwego rwa polisi y'u Rwanda rukorera mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo iki n'icyapa kimenyesha ko ariho.

Igikoresho cyabugenwe kurwanya inkogi y'umuriro kikaba gisa umutuku kandi gifite umugozi w'umukara ikigikoresha kiriho amabwiriza yuburyo gikoreshwamo ndetse nibyo utemewe kugikoresha kandi hakaba hariho n'ubwoko bw'umuriro kemerewe kuzimya.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hateye ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti, uwo muhanda kandi ukaba urimo amatara yabugenewe acana iyo bwije kugira ngo ibinyabiziga bigende neza, mu nzira nyabagendwa harimo kugendamo abantu ariko kandi hirya haparitse imodoka, hakaba ahri n'inzu igeretse hirya y'umuhanda.

Ibikoresho byifashisha mu kurwanya inkongi y'umuriro Kimwe kikaba gifite ibara ryiganjemo umutuku ndetse n'umukara mukeya n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, Ikindi kikaba gifite ibara ryiganjemo umweru n'umukara mukeya ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ariko mw'ibara ry'umukara mukeya harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru byombi hejuru bifite imigozi y'imikara icometse kuyindi imigozi minini y'imituku.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongo y'umuriro. Kikaba gifite irangi risa umutuku ndetse hakaba harimo n'undi mweru mukeya. Kikaba kandi gifite umugozi usa umukara. Bimwe mu byanditse kuri icyo gikoresho, harimo uburyo ushobora kugikoresha, ndetse n'ibyo kwirinda mugihe ugifite.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye. Mu gice cy'abanyamaguru hakaba hahagazeyo polisi y'u rwanda irimo iraganira n'umuturage. Ibi bikaba byerekana ubunyamwuga. Mu muhanda wa kaburimbo ahagenewe ibinyabiziga hariyo umugabo urimo uragenderamo yikoreye agafuka. Hirya y'umuhanda hakaba hari inzu ndende igeretse ndetse hirya cyane hakaba hateye ibiti.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, inyuma ye hari ingabo z'igihugu, arimo arasuhuza abaturage bari baje mu kwiyamamaza kwe, mu bataurage bari baje, bari bambaye imyenda igizwe n'amabara atatu ari yo: ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, benshi muri bo bambaye amadarubindi ndetse n'abagabo benshi bakaba bambaye amakositimu n'amakaravati n'amashati y'umweru, imbere yabo hakaba hateretse amazi yo kunywa mu gacupa k'inyange ndetse na buri wese uri muri iyi nama afite indangururamajwi imbere ye.

Imbwirwaruhame iri guhabwa ndetse itangwaho n'ibitekerezo, mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite b'abagore n'abagabo, batanga ibitekerezo ku bibwirwa mo ahongaho.

Ikirangantego cya FPR Inkotanyi kiba kiriho intare, izuba, imisozi ndetse n'amazi kandi kikaba cyanditseho demokarasi, ubumwe, amajyambere. Kigizwe n'amabara atatu ariyo ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Umukandida uzwi ku izina rya Furanka Habineza ufite ishyaka rya girini pati ari utora umukandida w'amahitamo ye amushyira mu gatebo kajyamo impapuro z'usohotse mu cyumba cy'itora.

Umugore w'imibiri yombi inzobe yiganje umusatsi w'umwimerere w'umukara, amaherena ku gutwi, urunigi rw'umweru, indangururamajwi mu ntoki, isaha ku kuboko, umwambaro hejuru w'umutuku, umwambaro hasi wumukara ndahabona amatara.

Abagabo batatu umugore umwe bakikije umugabo w'ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara ishati y'umweru karuvati y'umukara asobanura, ufite imibiri yombi igikara cyiganje, umusatsi w'umwimerere muke, inyuma urugi rw'ubururu insina z'ibitoki inkuta ziri mu ibara ry'umuhondo imbere ye icyapa cyo kwamamaza Mpayimana philipe umwaka bibiri na makumyabiri na kane indi ntambwe.

Umugore wicaye mu biro, akaba yicaye ku ntebe yegamirwa ifite ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hari ameza ariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, uyu mugore akaba afite umusatsi muremure utemba ukarenga ku ntugu ze ndetse akaba yambaye n'urunigi mu ijosi.

Icyumba kirimo umugore wambaye amadarubindi akaba afite umusatsi muremure ugwa kubitugu bye ndetse akaba afite impapuro imbere ye ziteretse k'umeza kuri ayo meza hakaba hateretseho uducupa tw'amazi y'inyange inyuma ye hakaba hari idarapo ru'igihugu cyu Rwanda.

Kwiyamamaza k'umukandida w'ishyaka rya fapara rifite idarapo yo mu ibara ry'umutuku, ubururu n'umweru, umukandida yambaye agapfukamunwa n'ingofero y'umukara n'ishati y'umutuku, amanitse ikiganza cye afunze igipfunsi nk'ikimenyetso cy'ishyaka.

Abagabo n' abategarugori batonze imirongo miremire, bategereje serivisi ikubiye kenshi kuba serivisi y'amatora.

Uruvunganzoka rw'abantu benshi bambaye impuzankano y'ibirango by'umuryango wa efuperi inkotanyi, abiganje bagaragara babiri bari imbere ni abagabo b'imibiri yombi igikara cyiganje, uri hagati yabo ateruye ifoto iriho umukuru w'igihugu yanditseho tora Kagame Paul, yambaye indebakure yambaye umwambaro w'abagabo usa umukara ikaruvati y'umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo umwe aricaye, abandi barahagaze, umwe muri abo bahagaze amanitse ibiganza, inyuma ye hakaba haparitse imodoka, hirya ye hari umuhanda w'igitaka, uri kugendamo abanyamaguru, izo ntebe ziri inyuma ye zifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karavati y'umukara. Akaba afite umusatsi mukeya ku mutwe we afite n'ubwanwa butari bwinshi, kandi akaba yambaye n'amadarubindi. Inyuma ye hari umugore na we udafite umusatsi mwinshi cyane ku mutwe we.

Inteko Ishinga amategeko y'u Rwanda, hicayemo abayobozi batandukanye, harimo abategarugori ndetse n'abagabo bateze amatwi, umugabo uzwi nka Minisitiri w'intebe w'u Rwanda aho abagezaho imbwirwaruhame.

Abantu bari mu cyumba k'inama, imbere yabo hakaba hari ameza yambitswe igitambaro cy'umweru, kuri ayo meza hakaba hateretse uducupa tw'Inyange turimo imitobe y'imyembe ndetse n'utundi turimo amazi y'Inyange, ku meza kandi hakaba hari telefone zabo ngendawna ndetse n'udukapu bagendana mu ntoki n'amakayi, iki cyumba k'inama abagore benshi barimo bambaye imigozi mu ijosi yerekana igikorwa bari barimo icyo ari cyo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ni karuvati y'umukara n'ishati y'umweru afashe mu biganza bye telefoni ngendanwa, afite ibyo ari gufata amashusho, yicaye mu ntebe y'umusego ari mu nteko nshingamategeko ya Repubulika y'u Rwanda.

Igikorwa cyo kwamamaza umukandida wiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yitwa Mpayimana philippe, imbere ye hari indangururamajwi ndetse akaba yambaye ishati y'umukara, urunigi mu ijosi n'umwitero ku rutugu rwe, inyuma ye hakaba hari icyapa kimwamamaza, imbere y'icyo cyapa hakaba hari intebe zisa umweru zicayeho abantu, abo bantu bakaba bicaye mu busitani.

Igikorwa cyo kwamamaza umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda ari we Mpayimana filipe. Hakaba hari abagabo batatu bahagaze. Mpayima filipe akaba ahagaze imbere y'indangururamajwi kandi afite igipapuro mu ntoki ze. Inyuma yabo hakaba hari abicaye ku ntebe zisa ubururu, ndetse n'ameza atwikirije igitambo gisa umweru. Inyuma yabo kandi hakaba hari inzu z'abaturage zubatswe mu buryo bwa konoshi.

Iyamamaza ry'umukandida mu Rwanda w'ishyaka rya FPR, azamuye ikiganza cye cy'iburyo agifunzemo gipfunsi ndetse hari abaturage bari mu bihe byiza byo kumwamamaza.

Abantu bahagaze mu mbuga, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti, hakaba hari kandi n'amadarapo abiri y'ubwoko butandukanye, bamwe muri abo bantu bambaye amakositimu, hakaba hahimo abambaye amadarubindi ndetse n'abagore bamwe bafite imisatse myinshi ku mitwe n'abandi badafite imisatsi myinshi ku mitwe, kimwe nk'uko harimo abagabo badafite umisatse namba ku mitwe yabo n'abandi bafite umusatsi mukeya.

Imodoka ikoreshwa bari kwigaga gutwara ibinyabiziga irikugendera mu muhanda wa kaburimbo hirya y'umuhanda hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti muyo modoka harimo abagabo babiribamo umusore wambaye ingofero'agapira kumukara.

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izi modoka zikaba ari iza sosiyete ya Yutongo, hirya y'izo modoka hakaba hari urukuta rusa umuhondo rwamamaza ibijyanye na MTN, hakaba kandi hateye ubusitani burimo ibyatsi bigufi. Izi modoka zikaba ziri ahabugenewe abagenzi bazitegerereza.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Umuhanda w'igitaka urimo ibinyabiziga bitandukanye aribyo ipikipiki, imodoka ya rukururana ndetse n'izindi modoka ntoya ngufiya kandi iruhande rw'umuhanda hakaba hari abanyamaguru bari kugenda mu gihande cyabugenewe ndetse hirya gatoya hakaba hakaba n'inzu itaruzura bakirimo barubaka.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'icyo kunywa, imashini ndetse n'igikapu.

Imodoka y'igihamyo iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ikaba isize ibara ryererana ndetse ikaba ifite n'amapine y'umukara. Hakaba harimo uyitwaye ndetse inyuma hagenewe imizigo hakaba hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero. Mu nzira y'abanyamaguru harimo umugore urimo uragenda ndetse mu muhanda kandi hakaba harimo ipikipiki n'uyitwaye ndetse n'umugenzi.

Imodoka nini rusange ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru ikaba iparitse ahabugenewe hazwi nka gare ya bisi muri iyo gare hakaba hari abagenzi ndetse n'izindi modoka rusange zitandukanye kandi hakaba hari n'ibyapa byamamaza omo

Bisi ziparitse muri gare, ni bisi z'amabara atandukanye. Hari izifite amabara ya viringa n'umweru n'izifite amabara y'ubururu n'umweru. Hirya ya gare ya bisi hakaba hari umuhanda nkuko tubona ibyapa bigiye bitandukanye, hakaba kandi hariyo n'amatara yo ku mihanda asize ibara ry'umweru. Muri gare ya bisi harimo abagenzi.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kigenderwaho n'imodoka zo mu bwoko bw'ibikamyo, imwe y'umutuku ikuza n'iri kugenda y'ibara ry'umuhondo, yikoreye ibikoresho bitandukanye bitwikiriwe n'ishashi y'ubururu.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibyerekezo byombi, umurongo ucagaguye umurongo mu ibara ry'umuhondo urombereje, imodoka y'umweru igendwamo ku buryo bwa rusange, amapikipiki yicaweho n'abamotari, inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa byo kwamamaza imikino y'amahirwe, ipoto ry'insinga z'amashanyarazi insinga z'amashanyarazi, umusozi uriho ishyamba umuturirwa muremure imodoka zigendwamo ku buryo bwite.

Ibinyabiziga bitandukanye. Hakaba hari amapikipiki ndetse n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ibikamyo, bikaba biparitse mu muhanda w'igitaka. Icyo gikamyo kikaba cyikoreye imizigo itwikirijwe ishashi isa ubururu. Hirya y'ibyo binyabiziga hakaba hari amatara yo ku mihanda arimo araka ndetse n'amazu. Hakaba kandi hafi yaho hateye n'ibiti bigufiya.

Igikorwa remezo cya gare y'ibinyabiziga bitanga serivisi z'ingendo rusange imwe iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru zifite amadirishya abonerana, hirya hari aho abagenzi bicara bazitegereje.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye. Hakaba hari ikinyabiziga cya sosiyete ya ritiko cyagenewe gutwara rusange ndetse n'ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, hakaba kandi harimo haragendamo n'amapikipiki, ariho abayatwaye ndetse n'abagenzi bambaye ingofero zabugenewe. Muri uyu muhanda kandi hakaba hatewemo indabo, ndetse hari n'inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo. Hirya hakaba haparitse amapikipiki menshi cyane ndetse n'abayatwara. Abo bayatwara haba harimo abambaye imyambaro y'umutuku, abandi bakambara imyambaro y'umuhondo hakaba harimo nanone abambaye ingofero z'umutuku n'abambaye ingofero z'umuhondo. Abagenzi bari imbere y'amapikipiki bashaka gutega na bo barahari.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo yo mu bwoko bwa rukururana, yikoreye imizigo itwikirije amashashi asa ubururu. Muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba harimo amapikipiki ndetse n'abayatwaye bari kugenda. Hirya gato mu nzira y'abanyamaguru harimo umunyamaguru umwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye. Bimwe muri byo hakaba harimo ipikipiki ndetse n'uyitwaye. Hakurya y'umuhanda mu nzira nyabagendwa hakaba hariyo umugore ufite indobo irimo ibisheke arimo aracuruza. Hirya y'umuhanda kandi hakaba hateyeyo ibiti. Hakurya y'umuhanda nanone mu nzira nyabagendwa hakaba hari ruhurura igenewe gutwara amazi.

Ikinyabiziga cy'ubwikorezi bwa lisanse, kikaba kirimo kiragendera mu muhanda usa umukara, muri uwo muhanda kandi hakaba harimo n'ibindi binyabiziga bitandukanye, harimo n'amapikipiki, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari akayira kagenewe abanyamaguru, ibyapa byamamaza, ibiti ndetse n'ubusitani buteyemo ibyatsi bigufi, muri uwo muhanda hakaba hariho n'amatara yo ku mihanda ashinzwe kumurikira ibinyabiziga bigenda nijoro.

Umuhanda wa kaburimo urimo ibinyabiziga bitandukanye. Kimwe muri ibyo hakaba harimo igikamyo gifite inyuma hasa umukara ahagenewe gutwara imizigo ndetse ikindi ahagenewe gutwara imizigo hakaba hasa umutuku. Mu bindi binyabiziga biri muri uwo muhanda ni amapikipiki amwe ahetse abagenzi, andi ariho abayatwara gusa. Abo bose kandi bari ku mapikipiki bambaye ingofero zabugenewe. Hafi y'uwo muhanda hakaba hari ruhurura igenewe gutwara amazi ndetse hirya yaho hakaba hateye ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihastu itwaye imizigo ikaba iri mu muhanda hirya yayo mu kuboko kw'iburyo hari abanyamaguru muri abo banyamaguru harimo umusore wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara mu muhanda kandi harimo ibindi binyabiziga nk'amapikipiki, amagare ndetse n'andi mamodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo haragendamo ikinyabiziga cyo mu bwoko ibikamyo kikoreye umuzigo, mu mwanya w'ahajya imizigo hakaba kandi hicayeyo umuntu. Muri uyu muhanda kandi hakaba hariyo igare ndetse n'ipikipiki iriho uyitwaye ndetse n'umugenzi bambaye ingofero zabugenewe, hirya y'umuhanda hakaba hari abanyamaguru barimo baragenda mu muhanda wabugenewe wabo ndetse kandi hakaba hari na ruhurura igenewe gutwara amazi.

Umuhanda wa kaburimo urimo ikinyabiziga kimwe ndetse n'ugitwaye, aricyo igikamyo, kikaba gifite ibara risa umuhondo ndetse n'amapine asa umukara. Ugitwaye yambaye agapira kererana. Hirya gato hakaba hari umunyamaguru uri kugenda wambaye ingofero n'agapira gasa umutuku ariko kandi karimo ibara risa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo. Muri uyu muhanda hakaba harimo ikinyabiziga gitwara abantu rusange. Muri iki kinyabiziga hakaba harimo ugitwaye ndetse n'abagenzi. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Hakurya y'umuhanda hakaba hari inzira nyabagendwa harimo kugendamo umugenzi. Hirya yaho kandi hakaba hateye ibiti. Ikinyabiziga kiri mu muhanda gifite amabara atandukanye, harimo: ubururu, umweru ndetse n'icyatsi cyijimye.

Akayira k'abanyamaguru, umuhanda w'umukara urimo ibinogo, ipikipiki zitwawe n'abamotari ipikipiki ebyiri zitwawe n'abamotari, imodoka igendwamo ku buryo bwa rusange irimo ubusa itwawe n'umutwazi wayo wambaye ishati y'umukara n'umweru, ibiti urukuta rw'ibiti, abahinzi umusozi uriho ishyamba kandi utuweho iteme n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye muri uyu muhanda hakaba harimo icyapa gifite akamenyetso gateye nk'umwambi kerekana icyerekezo ibinyabiziga bigomba guca muri uyu muhanda mu binyabiziga birimo hakaba harimo amapikipiki ariho abayatwaye ndetse n'abagenzi hirya y'umuhanda kandi hakaba hari iminara y'itumanaho ndetse n'ibiti bihateye.

Ndabona imodoka eshatu ebyiri zigerwamo kuburyo bwa rusange muririzo za rusange imwe yanditseho imyaka maganabiri na mirongo itatu n'umunani y'uburambe indi modoka ni iy'ubwikorezi ifite ibara ry'umweru irimo umuntu yitwayezo zigendwa muburyo bwa rusange zicayemo abagenzi ndabona umunyamaguru ndagenda mu kayira k'abanyamaguru ndabona ibiti ndabona amapoto y'amashanyarazi ndabona insinga z'amashanyarazi n'amatara ku y'ishyamba.

Imodoka rusange ziparitse ahabugenewe hazwi nka gare ya bisi. Imwe muri izo modoka ifite ikimenyetso cy'ipome y'icyatsi ishunyeho. Iyo bisi kandi ifite umuryango ufunguye mo imbere hakaba harimo abagenzi. Hirya y'uwo muryango hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru y'amaboko magufi ndetse n'inkweto z'umukara.

Ibinyabizga bibiri byo mu bwoko bw'ibikamyo biraparitse. Byose byikoreye imizigo. Kimwe gifite purake ya R.A.F magana cyenda mirongo itandatu X, gifite ishashi y'umukara itwikiriye imizigo. Na ho igikamyo gifite purake R.A.F magana arindwi mirongo itandatu n'icyenda K, imizigo yacyo ntakintu ifite kiyitwikiriye.

Akayira k'abanyamaguru, umuhanda w'umukara, imirongo igaragaza aho abanyamaguru bambukira, akayira k'abanyamaguru kariho irangi ry'ibimenyetso ndanga cyeyerekezo, inzu y'umuturirwa, amatara yo ku mihanda, ibiti, inzu insinga z'amashanyarazi, ipikipiki iriho abantu.

Igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'igikamyo, gitwara ubwikorezi bw'imitwaro itandukanye; ipfutswe n'umufuka w'ubururu ndetse n'w'umuringa ucyeye.

Imodoka rusange itwara abagenzi, iparitse ahabugenewe ariho abenshi bita muri gare, ariko si yo yonyine iparitsemo kuko harimo n'izindi nyinshi, hakaba harimo n'abagenzi benshi, ariko iruhande rw'iyo modoka hari umugabo wambaye ingofero yererana, ipantaro y'ubururu, ishati ndetse n'inkweto zifunze.

Ibinyabiziga biparitse ahabugenewe aroho bita muri gare. Bimwe muri iyo hakaba harimo imodoka z'umuntu ku giti cye, zikaba zanditseho yego kabusi, izo mudoka zisize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ahagana hasi, inyuma yazo hakaba hicaye umugore uri gutanga serivise za emutiyeni ( MTN) akaba yicaye munsi y'umutaka usa umutuku.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bw'ibikamyo. Kimwe kirahagaze barimo baragipakurura imizigo gihetse, ikindi kirahagaze kiracyapakiye imizigo gihetse. Kimwe muri ibi binyabiziga ni icyo uruganda rwa Toyota. Nubwo rwose bihagaze aha, imbere hari icyapa kigaragaza ko bitemewe kuhahagara.

Moto y'ubwikorezi yakorewe mu Rwanda iri mu ibara ry'ubururu iriho urugi rufunze n'ingufuri, imodoka itwara abantu kuburyo bwa rusange hejuru hariho imifuka, amatara yo ku muhanda, igiti cy'umuyinya, urujya n'uruza rw'abantu umuhanda w'umukara ikirere kirimo ibicu byiganje, bisa nk'ibyabyara imvura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ntoya ndetse n'amapikipiki ,kurayo mapikipiki hariho abagenzi ndetse n'abayatwaye bambaye ingofero zabugenewe kuri uwo muhanda kandi hakaba hariho igikamyo gishizwe gutwara mbeto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo imodoka rusange yo mu bwoko bwa ritiko irimo abagenzi n'uyitwaye, hakaba kandi hari igare ririho umunyonzi wambaye bodaboda ndetse n'ishati isa umweru n'umwambaro wabugenewe bambara iyo bagiye mu muhanda.

Igikorwaremezo cy'umuhanda uri kugenderwaho n'ikinyabiziga cyo mu buryo bwa rusange gitwaye abagenzi kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amatara yo ku muhanda maremare.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo amapikipiki imodoka y'umuntu ku giti cye ndetse n'ibikamyo, uwo muhanda kandi ukaba urimo amatara ashinzwe kumurikira ibinyabiziga nijoro, ayo matara asize ibara ry'umweru, hakaba kandi hateye n'ibiti, iruhande rw'umuhanda haparitse igikamyo kikoreye imizigo.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bw'ibikamyo, bikaba biparitse mu muhanda w'igitaka. Bihetse imizigo. Hafi y'ibyo binyabiziga hakaba hari amatara yo ku mihanda arimo araka. Kandi hari insinga zijyana imiriro mu nce zitandukanye. Hafi y'ibyo binyabiziga kandi hakaba hateye n'ibiti.

Amapikipiki y'ubwoko butandukanye arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba ariyo ay'ibinyabiziga bibiri ndetse n'ay'ibinyabiziga bitatu, kuri ayo mapikipiki yose hariho abayatwaye ndetse n'abagenzi, bose bakaba bampaye ingofero zabugenewe, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti ndetse n'ubusitani.

Abantu bicaye mu gice cyabugenewe kitemerewe kugerwamo imodoka, kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, hirya y'icyo gice hakaba hari amazu akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ageretse kenshi, muri icyo gice harimo ubusitani ndetse n'indabo, bamwe muri abo bantu barimo, hakaba harimo umugabo uhagaze wambaye ikositimu y'ubururu, uri kuri telefoni.

Imbuga irimo intebe yo kwicaraho. Iyo ntebe ikaba ifite amaguru asa umukara ndetse no hejuru ho kwicara hasa umutuku. Inyuma y'iyo ntebe hakaba hateye ubusitani. Muri ubwo busitani hakaba harimo amabuye ajanjaguye y'amasarabwayi, amwe ni matoya cyane andi aracyari manini.

Icyapa cya mpande eshatu gishushanyishijwe ibara ry'umutuku mu imbere hakaba hashushanyijemo umwana w'umukobwa ufite igikapu ndetse n'umugabo nawe ufite igikapu, iki cyapa gikoreshwa ahantu berekana ko ariho abanyamaguru bemerewe kwambukira.

Amatara ndangacyeyerekezo yo ku muhanda izemerewe kugenda n'izijya imbere izijya iburyo izijya ibumoso zirabura amasegonda cumi n'umunani amatara ndangacyerekezo, amatara yo ku muhanda, itsingaza z'amashanyarazi, ibiti, akayira k'abanyamaguru, imirongo igaragaza aho abanyamaguru bambukira, imodoka zigendwamo kuburyo bwa rusange, amapikipiki n'izigendwamo kuburyo bwite ndahabona imiturirwa ibiri, ubusitani ku muhanda n'akayira k'abanyamaguru, umuhanda w'umukara.

Icyapa kiburira kikaba gishushanyishije ibara risa umutuku, iki cyapa gifite mpande eshatu mu imbere muri icyo cyapa hakaba harimo ibara risa umuhondo, iki cyapa kikaba kereka imodoka ko imbere hari igikorwa cy'ubwubatsi kirimo kirahabera.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, iruhande rw'umuhanda hari inzu ndende y'igorofa.

Isiganwa riri kubera mu karere ka Muhanga nk'uko icyapa kibyerekana, ry'amarushanwa y'igare bita turu di Rwanda, rishungerewe n'abaturage baturiye ako gace.

Icyapa gishushanyishije ikizeru cy'umukara, mu imbere hakaba harimo ibara ryinshi ry'umukara kandi muri ubwo bururu hakaba harimo akamenyetso gateye nk'umwambi, iki cyapa cyerekana amerekezo ya nyayo umuntu aba agomba kwerekezamo.

Icyapa gifite inyuguti zandikijijwe umukara ndetse n'umuhondo kandi kikaba gisize amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, amagambo acyanditseho yerekana ko ugomba kugenda buhoro.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda iki cyapa gisobanura ko umuyobozi w'ikinyabiziga akikibona agomba kugabanya umuvuduko cg se agahagarara kugira ngo ataba yateza impanuka.

Icyapa gishyirwa mu muhanda wa kaburimbo. Kikaba gishushanyishije ibara ry'umutuku gifite mpande eshatu, mo imbere hakaba hasa umweru, muri uwo mweru hashushanyijeho akantu k'umukara kazamuye. Iki cyapa gisobanuye ko imbere hazamuye kikaba kiburira imodoka kugabanya umuvuduko kugira ngo hirindwe impanuka. Kino cyapa gishinzwe mu busitani burimo indabo kandi hirya yaho hakaba hatuye amazu.

Icyapa cyo ku muhanda gishushanyishije uruziga rutukura ndetse n'akarongo kaberamye mo hagati, hakaba harimo igare risa umukara. Kikaba cyerekana ko amagare atemerewe guca muri uwo muhanda.

Igishushanyo cy'umuhondo cya mpande enye kikaba gishushanyijemo ibimenyetso bikoresheje ibara ry'umukara, iki gishushanyo kikaba kerekana kwihuza k'umuhanda uva iburyo.

Icyapa giteye ku nkoni y'icyuma kikaba ari mpandeshatu ishushanyishijwe ibara ryitukura. Mo imbere y'icyo cyapa hakaba harimo ibara ry'umweru, muri iryo bara ry'umweru hakaba hashushanyijemo abana babiri barimo baragenda. Iki cyapa kikaba cyerekana aho abanyamaguru bambukira. Hafi y'icyo cyapa hakaba hateye ibiti.

Icyapa cyerekana akarere ka Rusizi. Giteye ku ruhande rw'umuhanda w'umukara urimo imirongo isa umweru ikaba yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hirya y'uwo muhanda hakaba hari ishyamba rya kimeza ndetse n'ibyapa byamamaza. Hakaba hateye igiti cy'icyuma kiriho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi. Muri uwo muhanda kandi hakaba hariho amatara ashinzwe kumurika nijoro.

Icyapa cy'umuhanda cyapande eshatu, kikaba gifite ibara ry'umutuku muri icyo cyapa hashushanyijemo ahantu hazamuye hasize ibara ry'umukara ikicyapa cyereka uduhutsi bikaba bivuze ko ugiye kugera ahantu hazamuye ugomba kugabanya umuvuduko w'imodoka yawe.

Icyapa kerekana igabanuka ry'imihanda gifite ishusho ya diyama, gifite irabara ry'umuhondo ndetse n'ikimetso cy'umukara kiburira abashoferi kugabanya amuvuduko kugirango hirindwe impanuka kuko umuhanda bazaba bari kwinjirama uzaba ufite ubuso buto unyereranyije nuwo bagendagamo.

Ibyapa bigiye bitandukanye, hakaba hari ikerekana amerekezo wanyuramo kugira ngo ugere kuri pariki y'igihugu y'ibirunga. Hari n'ikindi kerekana amerekezo wanyuramo kugira ngo ugere ku mupaka wa Uganda mu birometero makumyabiri na bitanu. Hari n'ikindi cyapa kerekana banki y'abaturage y'u Rwanda. Hari n'ikindi cyapa kandi kerekana amacumbi y'ibirunga.

Ndabona umuhanda w'umukarari uzwi nka kaburimbo, ndabona ibiti ndabona ubusitani buteyemo indabo, ndabona umuyoboro ufata amazi yo ku muhanda, ndabona indabo ziri ku kumuhanda, ndabona akayira k'abanyamaguru, ndabona imodoka, ndabona abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru ndabona kandicyapa kigaragaza umuhanda batambukamo mbere uwo munini ndabona n'amazu.

Icyapa kerekana ko ibinyabiziga byo mu bwoko bw'ibikamyo bitemewe ku nyura mu muhanda, kikaba gishushanyishije uruziga rusa umutuku rurimo akarongo kaberamye mo hagati, mo imbere muri icyo cyapa harimo igikamyo cy'umukara.

Inzu zigeretse, zikaba ziherereye mu murenge wa Remera, mu karere ka Gasabo. Imbere y'imwe muri izo nzu hakaba haparitse imodoka za buri muntu ku giti cye kandi bigasa nkaho imwe muri izo nzu hakorerwamo ubucururzi bw'imyenda. Imbere y'izo modoka hakaba hari ipikipiki iriho uyitwara ndetse akaba atwaye umugenzi bambaye ingofero zabugenewe zisa umutuku.

Umuhanda w'igitaka hirya yuwo muhanda hakaba hari iteme ryinjira mu ngo, imwe muri izo ngo hakaba harimo inxu imwe igeretse yubakishije amatafari ahiye ndetse ninkingi zayo zikaba zisa umweru, imbere yiyo nzu hakaba hateye ibiti by'umikindo iyo nzu kandi ikaba yubakishije urukuta wubakishije indabo zisa icyatsi.

Amazu asakajwe amategura yubwoko butandukanye ayomazu amwe nayo mubwoko bw,akadasiteri andi arageretse andi nayo mubwoko bwa konoshi ayamazu akikijwe nibiti bigiye bitandukanye kd akaba afite inkuta zigiye ziyakikije zizwi nkibipangu.

Inzu igeretse, hejuru hakaba hariyo umurindankuba. Kandi ikaba igizwe n'amadirishya arimo ibirahure menshi cyane rwose. Hari insinga zijyana umuriro, ifite amabara agiye atandukanye harimo umweru, umuhondo ndetse n'andi menshi. Kandi hakaba hariho n'ibyapa byamamaze ibikorwa bigiye bikorerwamo....

Umuhanda w'umukara urimo uragendamo ikinyabiziga cy'umuntu ku giti cye. Hafi yaho hakaba hari akayira kagenewe abanyamaguru.. Hirya y'ako kayira hakaba hari ishyamba ryimeza. Bimwe mu biti bigize iryo shyamba harimo ibisa icyatsi bikaba bifite indabo zisa umuhondo.

Ndabona ibigega by'umukara biri ku bisenge bibikwamo amazi, ndabona inzu ifite isakaro amabati y'umutuku, ndabona impombo zifata amazi ava ku isakaro, ndabona urukuta, ndabona inkingi, ndabona umuhanda nyabagendwa wegereye urwo rukuta, ndabona insinga zamashanyarazi, ndabona kandi ikirere gisa n'ibara ry'ubururu bw'ikirere.

Inzu ikorerwamo serivisi za banki ya Kigali, muri korodoro y'iyo nzu hakaba hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo, imwe mu nkuta z'iyo nzu hakaba handitseho ijambo ngo werikamu, ari byo bivuze murakaza neza.

Inzu ifite ibara ryererana, imbere yayo hakaba hari intebe ndetse n'ameza, hakabateye kandi n'ubusitani burimo ibiti, iyo nzu bisa nkaho bacururizamo ikawa.

Umuhanda usa umukara urangira hagahita hazaho uw'igitaka, hafi ya wo hakaba hari ruhurura ndetse n'icyapa kiriho amagambo agiye atandukanye, ariyo Umurenge wa Kimirongo, Akagari ka Kibagabaga, Isibo ya Gatatu, haba kandi hashushanyije n'ibendera ry' gihugu cy'u Rwanda. Habafi y'uwo muhanda hakaba hubatse inzu ndetse hakabayo n'umukobwa urimo uragenda afite akabuni gasa umuweru mu biganza bye.

Umuhanda w'umukara, kuruhande rwayo hakaba hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye hakaba kandi harimo n'inzu isa umweru muri uwo muhanda w'umukara hakaba hariyo ipikipiki ariho uyitwara akaba yambaye imyambaro yabugenewe.

Inzu igeretse, hakaba hariho ibyapa byamamaza ndetse mu mbuga yayo hakaba hateretsemo ibicupa by'amazi binini. Mu mbuga yayo kandi hakaba hahagazemo imodoka z'umuntu ku giti cye ndetse n'amapikipiki. Hafi y'iyo mbuga hakaba hateye ubusitani burimo ibyatsi bigufiya ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo irangira. Aho irangirira hakaba hari umuhanda w'igitaka ariko bisa nkaho iyi kaburimbo ishaje cyangwa yangiritse. Aho iyo kaburimbo itararangirira, hakaba hari ipikipiki iparitseyo. Yicayeho uyitwara yambaye ingofero yabugenewe isa umutuku. Hirya ya kaburimbo hakaba hari inzu igeretse.

Amazu y'ubwoko butandukanye kandi akaba asakaye bitandukanye. Amwe asakajwe amabati andi asakajwe amategura. Hagati y'ayo mazu hagiye hateyemo ibiti ndetse hagiye haciyemo n'insinga z'amashanyarazi. Hirya y'ayo mazu kandi hakaba hariyo ikibuga cy'indege. Urebye hirya cyane kandi ukaba ubona n'amatara yo ku mihanda bigaragaza ko hariyo imihanda ya kaburimbo.

Ibidukikije birimo ubusitani ndetse n'ibiti birebire bitanga akayaga mu gihe gitandukanye cy'izuba ndetse birinda imvura nyinshi mu gace.

Amazu agiye acucikanye asakajwe amabati y'ubwoko butandukanye imwe muri ayo mazu ikaba ifite ikigega gisa umukara kiijyamo ritiro ibihumbi bitanu by'amazi, hakaba hari kandi n'ikibuga k'indege gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye byinshi kandi hakaba hari n'amatara asize irangi ry'umweru.

Inzu igeretse ikorerwamo ibikorwa bitandukanye; bimwe muri byo bikabahakaba harimo ubuvuzi bw'amenyo. Imbere yayo haparitse imodoka z'umuntu kugiti cye, ndetse hateye n'ibiti. Hafi y'iyo nzu hari umuhanda wa kaburimbo irimo imirongo isa umuhondo icuye; ikaba igaragaza ko imodoka iri inyuma yemerewe guca ku iri mbere yayo irimo iragenda buhoro.

Parike ya Nyandungu. Igizwe n'ibiti birebire n'ibyatsi bigufi mu busitani. Muri ubwo busitani hari agatebo kabugenewe kabikwamo imyanda. Kandi hari n'agatebe kicayeho abasore babiri umwe wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru. Imbere y'ubusitani hari inzira y'abanyamaguru.

Inzu zituye hafi y'umuhanda umurenge wa kanombe, zimwe zirageretse kabiri izindi ntago zigeretse hakaba hari itsinga kandi zijyana umuriro mugo zitandukanye hagati y'izo go hagiye hateye ibiti.

Inzu igeretse ikaba yitwa icumbi rya gorofe rya Elizabeth. Imbere yaryo hakaba hari ubusitani hateyemo indabo kandi hakaba hari ikinyabiziga cy'umuntu kugiti cye gisize irange risa umutuku.

Inzu igizwe n'amabara menshi, ikaba ikorerwamo akazi k'ubucuruzi bw'imyenda. Imbere yayo hari ibikinisho byambikwa imyenda kugira ngo abantu bipime. Kandi hakaba hari n'abantu benshi bambaye umwenda usa ubururu bakunda kwita abakarani. Hirya yayo gato hari imodoka ndetse n'igare.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ikaba ikikijwe n'izindi nkuta zizwi nk'igipangu, zikaba zubakikije amatafari ahiye, hejuru y'igipangu hakaba hari senyenge, inyuma y'igipangu hari ubusitani buteyemo ibiti.

Umuhanda wa kaburindo urimo ibinyabiziga bitandukanye aribyo: imodoka n'amapikipiki. Ku mapikipiki hariho abayatwaye ndetse n'abagenzi bambaye ingofero zabugenewe hirya y'umuhanda hariho ubusitani ndetse n'ibiti, hagati mu muhanda Kandi hariho amatara yaka n'ijoro yabugenewe kugira ngo ibinyabiziga bigenda habona . mumuhanda hakaba hashushanyije imirongo y'umweru igenewe abanyamaguru bambukiranya umuganda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kigenderwamo n'imodoka y'umuntu ku giti cye, ndetse y'ibara ry'icyatsi ryijimye, amatara yo ku muhanda ndetse n'abaturage basanzwe bari kugenda n'amaguru.

Ahabugenewe hicara ndetse hakanahagarara abanyamaguru bategereje ibinyabiziga rusange ndetse n'ibinyabiziga bwite. Imbere y'aho habugenewe hakaba hari akayira k'abanyamaguru, imbere y'ako kayira hakaba hari umuhanda w'umukara urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye. Ku mpande zombi z'uwo muhanda hakaba hateye ibiti ndetse n'indabo ziritere muri pasiparume.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Ihuriro ry'imihanda riri kugenderwamo hirya yaryo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ziyobowe n'abayobozi bazo ebyiri ndetse batwaye abagenzi, kandi kuri uwo muhanda hateweho ibiti mu mpande.

Ihuriro ry'imihanda iva kandi ikajya ahantu hatandukanye, hirya yaho hari ubusitani buteyemo ibiti hakaba kandi n'inzu igeretse gashoboka hari amatara yo k'umuhanda asize ibara ry'umweru hasi yaho hakaba hasize ibara risa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye. Bimwe akaba ari amapikipiki, ibindi bikaba ari ibinyabiziga by'umuntu ku giti cye, ndetse hakaba harimo n'igikamyo gifite ibara ry'ubururu. Kuri ayo mapikipiki harimo afite abagenzi ndetse n'andi adafite abagenzi. Ariko abo bose bicaye ku mapikipiki bakaba bambaye ingofero zabugenewe. Hirya y'umuhanda hakaba hariyo ubusitani butewemo ibiti.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, hari kugenderwaho n'imodoka, n'ibinyabiziga by'imodoka mu bwoko butandukanye, nibikamyo ndetse n'imodoka y'umuntu ku giti cye, hirya hari abari kureba uko izo modoka zitambuka.

Ipikipiki iri mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hariho uyitwaye ndetse n'umugenzi, bombi bambaye ingofero zabugenewe zisa umutuku, hirya y'umuhanda wa kaburimbo hakaba hateye ubusitani burimo ibiti, muri ubwo busitani hakaba hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibikorwaremezo by'imihanda, uwo mu kirere n'uwo hasi. Uwo hasi uri kugenderwaho n'ibinyabiziga bitandukanye, by'umwihariko ibyo mu bwoko bwa moto biyobowe n'abayobozi babyo, munsi y'umuhanda wo mu kirere hari kunyuramo abaturage batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ubusitani ndetse n'indabyo. Urimo uragendamo ibinyabiziga aribyo amapikipiki. Kuri uwo muhanda amatara yaho arimo araka kandi ibyapa biwuriho birayobora ibinyabiziga aho bijya. Bimwe mu byerekezo bibiyoberamo ni inzira ijya ku kibuga cy'indege ndetse n'inzira ijya mu murenge wa Nyamata.

Umuhanda wakaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru yerekana ahabugenewe abanyamaguru bambukira mu muhanda, hakaba kandi hari n'ibyapa byamamaza ibyerekeranye n'iminsi mikuru ya noheri. Hirya ya kaburimbo hari inzira nyabagendwa ndetse n'ubusitani buhateye, kandi hakaba hari n'amatara yabugenewe yaka n'ijoro kugira ngo amurikire ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda asize ibara ry'umweru.

Ubusitani butatu buteyemo ibiti by'imikindo n'indabo ngufi isangano ry'imihanda ibi ibyapa ndanga cyerekezo, ibyapa byamamaza ishyamba rya kimeza, inzu ifite igisenge cy'umutuku, amatara yo ku muhanda, insinga z'amashanyarazi, akayira k'abanyamaguru, umuhanda w'umukara uriho ibirango by'umukara n'umweru.

Umuhanda w'umukara ugendwamo ibyerekezo bibiri bitandukanye. Hakaba harimo haragendamo ibinyabiziga. Ku ruhande rw'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru barimo kugendamo. Hakaba kandi hari n'icyuma gishinzwe kujyana amashanyarazi ku mpande zigiye zitandukanye. Hateye ubusitani burimo ibyatsi bigufiya ndetse n'indabo n'ibiti. Kuri uwo muhanda hakaba hari iteme rishinzwe gutandukanya umuhanda wo hasi no hejuru rikaba rifite inkingi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga. Hakaba harimo amatara yo ku mihanda agenga niba imodoka zihagarara abanyamaguru bakambuka cyangwa zigenda abanyamaguru bagahagarara. Hakaba hari kandi n'andi matara yabugenewe yaka kugira ngo amurikire ibinyabiziga bigende ari nijoro. Muri uyu muhanda kandi hakaba harimo imirongo y'umweru abanyamaguru bakoresha bari kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo ufite isangano ry'imihanda. Hirya yawo hakaba hari inzira nyabagendwa, hirya y'iyo nzira hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti. Muri uwo muhanda kandi harimo ibyapa bitandukanye, nk'icyapa cyerekana ko ari umuhanda wo muri Kigali-Nyarugenge, kandi hakaba hari n'ikindi cyapa cyerekana ngo: <<Murakaza neza mu mudugudu w'amahoro.>>

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye; 1irimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu; ni ahantu hacururizwa imiti itandukanye yiganjemo ibinini ndetse n'iyo kunywa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ari byo amapikipiki ndetse n'amamodoka n'ibikamyo, hakaba kandi hari n'abanyamaguru bari kugenda mu nzira nyabagendwa, hasi mu muhanda hashushanyijemo amabara atandukanye, muri ayo ngayo harimo ibara ry'umweru ari ryo ryerekana ahantu abanyamaguru bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari abanyamaguru bari kwambukira ahabugenewe hasize uturongo tw'umweru. Umwe mu banyamaguru bari kwambuka ni umugore wambaye ingofero, akaba afite isuka ku rutugu rwe ndetse n'agafuka mu ntoki kandi akaba yambaye n'inkweto z'umukara zizamuye. Undi munyamaguru ni umunyonzi uri gucunga igare. Hirya y'umuhanda kandi hakaba hatuye amazu ndetse hariyo n'abaturage bagiye batandukanye.

Umuhanda usa umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imudoka z'umuntu ku giti ke ndetse n'amapikipiki, hashushanyijwemo imirongo isa umweru ariyo abanyamaguru bakoresha bambukiranya imihanda, hakaba harimo kandi n'amatara yo ku mihanda yabugenewe ayobora imodoka niba zigenda cyangwa niba abanyamaguru bambuka, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti.